Iki ni igiti k'ikawa, gifite ikawa zikiri kwera zitaragera mu gihe cyo gusarurwa, bigaragara ko iki giti ari mu gihe cy'izuba.

Iyi ni inzu yororerwamo inkoko kndiubona harimo inkoko zikiri ntoya bita imishwi, ndetse n'ibyo bakoresha bazigaburira.